Abayobozi bayoboye inama, bicaye ku ntebe nziza ndetse n'ameza ariho uducupa tw'amazi, bafite ikayi iri kwandikwamo inama iri kuba, batanga amabwiriza agiye atandukanye.

Abaturage benshi bicaye ku ntebe z'ubururu, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umuhondo, ubururu, icyatsi, umutuku, umweru ndetse n'ayandi bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye.

Umuyobozi uri guhugura abaturage ku bigendanye n'amasibo kugira ngo bunguke ubumenyi bugiye butandukanye, bubafasha mu mibanire yabo bakabasha kubona uko biteza imbere.

Ahantu hatatse neza harimo abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, y'icyatsi umuhondo ndetse n'ayandi, bari mu nama bahabwa amabwiriza agiye atandukanye.

Icyumba k'inama kirimo ababwirwa amagambo agiye atandukanye, agendanye n'uko urubyiruko rwamenya amateka yarwo bikabasha kubateza imbere kuko utamenya iyo ava, ntamenya iyo ajya.

Ahantu heza hatatse amabara ari mu idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hicayemo abaturage ndetse n'abapolisi barimo bariga ku mibereho yabo igiye itandukanye.

Icyumba k'inama kirimo abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, iy'ubururu, umukara, umutuku ndetse n'icyatsi, bari guhabwa amabwiriza agiye atandukanye.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi umuhondo, umweru, ubururu ndetse n'ayandi bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye abafasha kwiteza imbere.

Igiseke kiza gisa neza kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, gikoreshwa mu gutwerera, ndetse no mu rugo hakabikwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, nk'ibigori ndetse n'ibishyimbo.

Igisabo gifite inzindaro, kikaba kiri ahantu kirimo amata. Iki rero iyo gipfundikiye biba byiza, kuko bituma amata arimo adatokorwa. Akaba ya yakwandura.

Abantu bambaye imikenyero b'abakobwa beza, bari kubyina bateze amaboko, bari no guseka, akaba uburyo bwiza bwo gusigasira umuco nyarwanda kugira ngo tuwuteze imbere, turusheho kumererwa neza.

Umubyinnyi wambaye imyenda y'umweru y'imikenyero, uri gususurutsa abantu bagiye batandukanye ndetse bakeneye kwishima mu bigendanye n'igitaramo.

Inyubako ya gakondo izwi nka nyakatsi ariko ikaba ari ingoro y'umwami ikaba ari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amarembo y'ibiti ariko afunguye.

Ababyinnyi beza bari kubyina imbyino za gakondo basusurutsa abari aho ngaho kugira ngo bishimishe, babashe kwiteza imbere bagire icyo bamarira Igihugu ndetse na bo ubwabo.

Umubyinnyi wambaye imikenyero y'umweru ndetse n'utuntu mu gahanga, uri gutega amaboko asusurutsa abageni ndetse akagira icyo abashimishamo mu bigendanye n'imbyino ze.

Ababyinnyi barimo barasusurutsa abicaye mu cyumba gitatse neza, kirimo abantu bagiye batandukanye, bari kureba uko babyina neza ndetse bakabasha kwishima.

Ababyinnyi bagiye batandukanye bari gususurutsa abagiye mu bukwe kugira ngo babashe kunguka ubumenyi, babashe no kwiteza imbere nk'iyo babikora nk'umwuga bakabona amafaranga.

Ababyinnyi batandukanye, bicaye bataramira abaturage bari aho kugira ngo basusuruke babashe kwiteza imbere ndetse bagire icyo bamarira imiryango yabo ndetse n'Igihugu muri rusange.

Abagabo bambaye imikenyero, urunigi ndetse n'inkoni zizwi nk'inshyimbo, bakaba bari ahantu mu bukwe bigaragara ko ari abasore bagiye gusabira umugeni, bakaba bamwenyuye bishimye, bizeye ko baramucyura.

Abantu buriye amapoto bari gukora insinga, zifasha abaturage gucana bagahweza nijoro kugira ngo bakore ibikorwa byabo bya buri munsi bahweza bareba neza.

Ahantu hari ibyuma birebire cyane kandi bibyibushye byifashishwa mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aho ibi byuma ari ingenzi cyane ku buryo bidufasha gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ahantu hose mu gihugu.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, iriho amapoto imbere yayo ayifasha kumurika, ikindi kandi bigafasha abahakorera kubona nijoro, bagakora ibikorwa byabo nta nkomyi.

Inyubako nziza zubatse neza z'ubucuruzi, zisize amarangi y'umuhondo ndetse ziriho abajya guhaha, bahaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'ibyokurya ndetse n'imyenda bibasha kubatunga.

Umuntu ukora amatelefoni agiye atandukanye, bikabasha kumuteza imbere mu mibereho ye ya buri munsi, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu, mu bigendanye n'iterambere rye.

Umuntu wuriye ipoto urimo urakora insinga z'amashanyarazi, zifasha abaturage kubona nijoro, bagakora ibikorwa byabo bya buri munsi, bahweza neza.

Abantu bashinzwe imiyoboro y'itumanaho, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye n'insinga ndetse na murandasi, bibafasha kwiteza imbere, bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho, zubakishije amatafarihiye ndetse zifite n'amabati, amatente ndetse n'umuhanda imbere yayo uri kugendamo abantu, babasha kujya iyo bagiye amahoro.

Iyi ni inyubako igeretse kabiri ikaba igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, ikaba ifite abakozi bayikorera imbere yayo, bakoramo ibikorwa by'ubucuruzi, bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho yubakishije umucanga, amabuye ya rukarakara ndetse n'inzugi za metarike zisizwe irangi ry'ubururu. Iteretseho intebe y'urubaho imbere yayo.

Abantu benshi bari mu nyubako zubatswe ku buryo bugezweho imbere y'umuhanda mwiza ufite ikibuga cy'umupira, bari kureba abakinnyi barimo barakina imikino igiye itandukanye.

Umuhanda mwiza uri kugendamo imodoka zihetse abagenzi bajya mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse hari n'abanyamaguru bari kugenda, ufite igare bari kuganira mu muhanda.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, iriho amarangi y'umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi, ihagazeho abagabo bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ikigina.

Inyubako nziza y'ibiro by'Umurenge wa Musheri, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati, isize amarange y'umuhondo, ifasha abaturage kubasha gukemurirwa ibibazo byabo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'umutuku, iriho amarange y'umweru, ikigega kivoma amazi imbere yayo ndetse n'ibyatsi.

Inyubako nziza cyane y'isoko, aho ifite amabati y'ubururu, ikaba ifite ubwiherero abantu bajya kwisayidiramo mu igihe baba bagize ikibazo runaka.

Icyapa cyanditseho amagambo y'indangagaciro, harimo umutekano ubutwari, ubwitange ndetse n'ayandi. Harimo na kirazira harimo, kugambanira igihugu, ndetse n'izindi.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho zubakishije umucanga, zifiteho icyapa gisize irange ry'icyatsi, zifite umuhanda imbere yawo ndetse n'ikibuga gikinirwamo imikino igiye itandukanye.

Abantu bari kubaka ibikorwa bigiye bitandukanye nk'amazu ndetse n'ibindi, bifasha abantu kuhakorera ibikorwa bitandukanye nko gucuruza ndetse bakagira icyo bigezaho.

Inyubako igizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, ikaba igeretse kabiri, bigaragara nk'aho ikorerwamo ubucuruzi ndetse ikaba inatatse neza, bigaragara ko buri wese yakwishimira kuyisura ndetse ikaba ifite n'igikoresho cy'isuku imbere yayo.

Inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, ifite urugi rw'ubururu, ni ibiro by'akagari ka Ndero, bifasha abaturage kuzana ibibazo byabo bakabikemurirwa neza.

Abapolisi ndetse n'abayobozi bicaye ku meza, afiteho amazi ndetse n'ingofero, barimo bariga ku mibereho y'abaturage kugira ngo babashe kugira umutekano baha abaturarwanda.

Abaturage benshi bicaye mu matente barimo barahabwa amabwiriza agiye atandukanye yo ku burenganzira bwabo kugira ngo bakore imirimo yabo ya buri munsi mu mahoro, bagire icyo biyigezaho.

Abaturage bateraniye hamwe bari guhabwa inama zigiye zitandukanye, ku bigendanye n'imibereho yabo kugira ngo biteze imbere, bagire icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo abashinzwe umutekano. Bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho bafite imbuga ishashemo tapi iri mu mabara, y'icyatsi, meza cyane.

Umugabo wambaye amadarubindi ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze ahantu ku ruvugiro, hirya ye hari undi mugabo ufite agapapuro mu ntoki, umuteze amatwi.

Abaturage bicaye mu matente bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo umutuku, ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite abaturage imbere yayo, barimo barakata ibyatsi kugirango ngo babashe kugera ahantu heza bakorera imirimo yabo ya buri munsi.

Abaturage bahagaze imbere y'inyubako nziza yubakishijwe amatafari ndetse n'amabati, bari kwigishwa uburyo bwo kugira ikizere ndetse n'ubutabera kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye, y'uburenganzira bwabo, kugira ngo babashe kwiteza imbere, bagire icyo bimarira, ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Icyumba cy'inama kirimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi bayobora mu nzego zigiye zitandukanye, bari kwiga ku burenganzira bwa muntu kugira ngo abashe kugira uruhare mu mibereho ye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugendamo abagenzi, imbere yawo hari inyubako nziza, irimo amabara y'icyatsi ku nzugi ndetse n'umukara ku nkuta.

Imodoka nziza itwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo kugira ngo bagere iyo bagiye amahoro ndetse ku giciro gitoya, babashe gukora imirimo yabo ya buri munsi, bagera iyo bagiye ndetse bakanahakorera imirimo yabo.

Imodoka nziza ifite puraka ya R A B O gatandatu kabiri, ijyanye abagenzi bagiye batandukanye, bajya mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ugendamo abagenzi batandukanye bakoresha ibinyabiziga nka moto, amagare ndetse n'imodoka bibageza iyo bagiye amahoro, bakabasha kugerayo uko bifuza.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, hari n'ubusitani bwizara cyane buteyemo icyapa cyanditseho ko hari hoteli itanga amacumbi ku bantu baje bahagana.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho, ziri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, bifasha abagenzi kunyura ahantu heza, bakagera iyo bagiye amahoro.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati, ifite imodoka imbere yayo ya Toyota itwara abagenzi bajya ahantu hatandukanye.

Moto nziza itwaye abagenzi bajya iyo bagiye kugira ngo bagereyo amahoro ndetse babashe kuhagera mu gihe kihuse, bibateza imbere mu gukora ibikorwa byabo bihuse.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse na sima, ifite umuhanda wa kaburimbo, imbere yabo ufasha abagenzi kugera iyo bagiye, amahoro.

Umupolisi uhagaze wambaye impugano z'akazi ziri mabara y'umukara yamanitse ikiganza yambaye n'amadarubindi ari gusuhuza abari aho ngaho ndetse ababaza uko bamerewe.

Abayobozi batandukanye harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abayobora mu zindi nzego z'umutekano, bari kwiga ku bigendanye no kugira ngo bashakire umutekano abanyagihugu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ifite n'inkingi nyinshi, munsi yayo hahagazemo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko ari abayobozi bari kuganira.

Bamwe mu baturage b'igihugu bakoresha amaboko yabo kugira ngo bihangire imirimo harimo abashobora kugenda bikorera amabuye abashobora guhinga ibigori ndetse n'urutoki abashobora kubaka ndetse no kuba bagira ibindi bikorwa bagiye bakora bitandukanye ndetse ibi bikorwa bikunda no gukora abakorerabushake.

Abahinzi batandukanye bari gukora umuhanda ubafasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi by'iterambere. Bawunyuramo, bagiye gucuruza ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere.

Abaturage batandukanye bagiye mu muganda, gukora ibikorwa byo gufasha, aho bahagaze mu ngemwe, bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye, abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye harimo umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, umweru ndetse n'ubururu bwijimye, bari kubwirwa amabwiriza n'umupolisi agendanye no kwiteza imbere ndetse no kugira umutekano.

Abantu bari kubumba amatafari mu byondo, abasha kubateza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi, bakabona icyo bimarira ndetse n'icyo bamariye igihugu.

Abantu b'abayobozi bagiye batandukanye bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutanga umuganda ku muturage wagize ikibazo, bakaba batwaye icyondo bari gushyira ku nyubako, hari n'abandi bari gushyiraho amatafari.

Icyapa kiriho amabara agiye atandukanye, umuhondo, umweru, umutuku, ubururu ndetse n'ayandi, handitseho Umurenge Kagame Cup ndetse n'akarere ka Nyagatare n'imirenge yako; Karangazi, Mukama, Musheri, Kiyombe ndetse n'ibindi.

Abakinnyi batandukanye bari mu marushanwa y'umurenge wa Kagame cup, bari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ndetse na gatanu, kugira ngo barushanwe babashe gutwara igikombe.

Ikibuga cy'umupira, kirimo abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu, bari kwidagadura kugira ngo biyungure ubumenyi, babashe kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'igihugu muri rusange.

Abantu bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umukino w'umupira w'amaguru aho hari abakinnyi bambaye imyambaro y'ubururu bari kwishyushya kugira ngo batangire umukino ndetse hakaba hari n'umusifuzi wo ku ruhande ufite igitambaro.

Inyubako nziza zubatse ku buryo bugezweho, zubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati asize irangi ry'ubururu, rifite ikibuga imbere yazo, ziri gukinirwaho abakinnyi bagiye bambaye imyenda itandukanye y'ubururu ndetse n'umutuku, bari kwidagadura.

Abakinnyi bari gukina imikino igiye itandukanye, uw'amaguru ndetse n'uw'amaboko. Bibafasha kwidagadura bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye mu bigendanye no kugira ibyo bagorora mu ngingo zabo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, ifite ikibuga imbere yacyo kiri gukiniraho abakinnyi imikino igi itandukanye ndetse n'abafana b'abanyeshuri barimo barareba uwo mupira.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho z'ubucuruzi ziri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, uri kwirukankamo abantu bari gukora siporo ngo baruhuke mu mutwe.

Abantu bari mu kibuga aho bari gukina umukino w'amaguru, hakaba harimo ikipe imwe yambaye imyambaro y'umuhondo indi yambaye iy'ubururu. Iyo yambaye umuhondo rero iri gukina cyane kurusha abo bandi.

Abakinnyi bakinnye umukino w'amaguru batwaye igikombe, barimo barishima bifotoza kugira ngo batahe bishimye babashe kugera iyo bagiye banezerewe.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, bidagadura ndetse barushanwa kugira ngo biyungure ubumenyi bwo kugorora ingingo ndetse bagire ubuzima bwiza, bubasha gutuma bakora imirimo yabo ya buri munsi.

Umuhanda wigitaka ucamo amamodoka atwara abagenzi aho bagiye hatandukanye, bikabafasha kugerayo mahoro, bagakora ibikorwa byabo bya buri munsi bibateza imbere.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugendamo umugenzi, ajya iyo agiye kugira ngo agereyo amahoro ikindi kandi abashe gukora ibikorwa bye bya buri munsi neza.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho, zifite umuhanda wa kaburimbo imbere yawo, uri kugendamo abagenzi, bagiye kujya gusura abantu bavukana ndetse na bene wabo.

Umuhanda mwiza w'igitaka unyuramo abagenzi bagiye bakagera iyo bagiye amahoro, bibateza imbere mu kugira ngo babashe kubona, uko bihutisha ingendo zabo, bakajya iyo bagiye hatandukanye.

Icyapa kiri ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, kibasha gufasha abaturage bo muri Nyagatare, kubona aho baza kubariza ibibazo byabo by'ubutabera.

Imodoka itwaye abagenzi bagiye mu bice bigiye bitandukanye, babasha kugerayo amahoro, mu muhanda w'igitaka kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo bya buri munsi.

Moto iri kugenda mu muhanda, itwawe n'umuturage ugera iyo agiye amahoro, mu giciro gitoya ndetse akabasha kwiteza imbere, ku bigendanye no gutwara abagenzi bagiye batandukanye, bajya mu bice bitandukanye by'igihugu.

Moto ndetse n'igare bipakira imizigo igiye itandukanye, ikabasha kugezwa aho igiye amahoro, inyuze mu muhanda wa kaburimbo, bigafasha abayitwara kugerayo amahoro.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo abagenzi ndetse n'abatwara amamoto bakajyana abagenda iyo bagiye, bakagerayo amahoro kugira ngo bagereyo ku giciro gitoya kandi bihuse.